Inyubako za leta harimo nk'ibitaro, ku bitaro ni heza, baratuvura tukaramba, barasanasana iminsi ikicuma, bityo ubuzima bwacu bukagenda neza.

Intoryi zidufitiye akamaro kanini cyane. Zitunga imibiri yacu, ziduha amafaranga, tukiteza imbere mu byo dukora, n'aho turi hose.

Ibimera turabirya ibimera tubikuramo umuti ukavura imibiri yacu ,ukavura amatungo yacu, ibimera biduha amafaranga tukiteza imbere.

Ibimera bivamo imiti ituvura indwara zo mu nda, indwara zo mu maguru, bikaduha amafaranga tukiteza imbere kandi bikubaka imibiri yacu.

Ibimera bituma tugira ubuzima bwiza, ibimera bituma tubona imiti ivura imibiri yacu, tukabona amafaranga tugatunga imiryango yacu n'abana bacu.

Ibimera bidutungira ubuzima, ibimera bivamo imiti ivura imibiri yacu, ibimera biduha amafaranga tukiteza imbere, tukibeshaho, tugatunga n imiryango yacu.

Ibimera ni byiza cyane, biduha amafaranga bivamo imiti, ivura imibiri yacu n'amatungo yacu, bikatubeshaho n'imiryango yacu n'abavandimwe bacu.

Ibimera bidutungira ubuzima, ibimera bivamo imiti ivura imibiri yacu, ikavura amatungo yacu. tukayagurisha tukiteza imbere tugatunga imiryango yacu n'abana bacu bakabaho neza.

Ibimera bivamo imiti ivura amatungo, bivamo imiti ivura abantu. Ibimera bituma duhumeka umwuka mwiza, ibimera bituma ahantu hagaragara neza.

Ibyatsi bidufitiye akamaro kanini cyane, bitunga amatungo yacu, bivamo ifumbire, bigatuma duhinga tugasarura, umusaruro wacu ukiyongera.

Ibisheke bidutungira mu buzima, tukishima tugasabana, bidutungera abana, biduhaga amafaranga, tukabicuruza tukabigurisha tukibeshaho mu buzima bwacu.

Ibimera bituvura indwara nyinshi, haba mu kubirya mu kubiteka mu kubihekenya, kandi biturinda kurwaragurika igihe tubiriye bigifite ubuziranenge.

Ibimera bivamo imiti, ibimera bivamo umuti utuvura, ibimera bivamo amafaranga, kandi byongera ubuzima n'imiryango yacu.

Intondore ni nziza cyane, zituma ubutaka bwacu buba neza, abana bacu barazirya bakanezererwa, havamo n'umuti wica ubukoko wica n'ibisimba biturira imyaka.